Inzu nziza irimo ahantu amazi azamukira, akamanukira ,niho bakarabira. Bigaragare ko ashobora kuba nko muri laboratwari, harimo n'utubati twifashishwa mu kubikamo ibintu. Bigaraga ko ari ahantu ushobora koza ibikoresho ndetse ukaba wanabibika muri utu tubati turi ku mpande.

Umukozi wo muri laboratware cyangwa se umunyeshuri ari muri labo, ari gukora, arimo kwiga, ari kwiga gukora amashanyarazi ayakuye mu bintu bitandukanye. Afite udukombe turimo amazi cyangwa se sorushoni ziri, ashyizemo insinga kugira ngo abashe gupima akoresheje umuriro w'amashanyarazi, apime kemikozi zirimo.

Agacanisho kifashishwa mu gucanira ibintu, cyane cyane nko muri laboratwari. Kariho agahombo kanini k'umutuku kagafasha kuzamura gaze mu gihe gacanyweho barimo gutegura nk'ibyo bazifashisha bapima aribyo byitwa sampo.

Abanyeshuri barimo kwiga gukoresha icyuma, icyuma cyifashishwa mu kureba utumikorobe dutoya kizwi nka mayikorosikopi, bari kurebamo bakareba, ibyo babona bakandika. Bose barishimye kuko bari kunguka ibintu bishyashya batari bazi.

Umu cameramane urimo gukamera, ari gukamera ibirori ndetse hari n'undi muntu uteruye ikindi kintu kirifashishwa kugira ngo babashe gufata amashusho ameze neza, ndetse hari n'abandi bantu bigaragara ko ari abantu bari gufatanya n'uyu mukameramani kugirango babashe gufata amashusho ameze neza cyangwa se bafate n'amafoto meza.

Abagoronome babiri barimo gufata ubutaka, ahantu mu myaka ihinzwe mu butaka irimo imyumbati ndetse n'amateke bose bafite igikoresho kibafasha gufata ubutaka, bari kugenda bafata itaka bakarishyira mu ducupa twabugenewe kugira ngo bajye kuripima barebe intungamubiri zirimo niba zizabasha kweza iyi myaka.

Abanyeshuri bari mu ishuri barimo kwiga. Mwarimu arimo kwandika ku kibaho, mbese bose barakurikiye. Bakurikiye ibyo mwarimu ari kwandika. Bose bambaye udupfukamunwa, bigaragare ko bafite ikibazo cyangwa se ari mu bihe bya kovidi. Bicaye ku ntebe zikozwe mu biti za pipitere kandi bafite amakaye yose. Biteguye kwiga ibyo mwarimu arimo kubigisha.

Abanyeshuri biga gukora ibikoresho bya tekinoloji, bari kwiga gusudira bafite sodire mu ntoki bari gusudira insinga, ku mutima w'ibikoresho bikoresha ikoranabuhanga, bigaragara ko mwarimu nawe ari kugenda anyuranyuramo, abafasha kumenya neza bagasobanukirwa n'uburyo bikorwa.

Ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi ni ibikoresho byinshi harimo inyiko, amashoka, imikasi n'ibindi n'amapenzi, urukezo rukoreshwa mu gusatura ibiti, ndetse na metero yifashishwa mu gupima uburebure bw'ahantu, kugira ngo ushobore kumenya aho ushyira i itafari n'irindi.

Ikimashini kinini cyane, kinini bigaragara ko cyari cyagize akabazo umukanishi akaba arimo kugikanika. Gifite ibyuma binini bizenguruka bikoze uruziga, kikaba gifite n'akandi hejuru bigaragara ko ari imashini nini, ishobora kuba yakwifashishwa mu gusya ibintu cyangwa kugorora ibyuma.

Kompiyuta ziri ahantu mu tubogise, bigaragara ko ari muri rumu nziza. Ni icyumba cy'ahantu hagiye kubera amahugurwa cyangwa inama. Hari na porojegiteri bigaragara ko baraza guporojeta kugira ngo abaritabira ayo mahugurwa, baze kuba bareba neza. Ni icyumba kirimo intebe, kirimo n'udutebe twiza twa sheze n'udutabureti. Bigaragara ko turaza inama iraza kugenda neza.

Abanyeshuri barimo kwiga bose bari gufata note ,bafite amakayi ndetse n'udupapuro bari kwandikaho, bose barunamye bari kwandika bicaye ku ntebe za pipiture kandi bose bigaragareko bahuze barimo kwandika, bishobore kuba ari n'ikizamini barimo gukora.

Abanyeshuri bari muri laboratwari barimo kwiga. Bose bambaye amataburiya abarinda kwandura cyangwa se kwangiza ibindi bikoresho byo muri laboratwari. Bose bafite udukayi bari kwandika ibyo babona kandi bafite ibikoresho bari kwigiraho kugira ngo ibyo babona byose babyandike.

Umutekinisiye ufite igikoresho cyifashishwa mu gupima ahantu, ndetse no kujomera ibintu biri kure, ari kureberamo ngo arebe ibintu biri ahantu kure, cyangwa se ahantu ashobora kuzanyuza igikorwa remezo runaka nk'umuhanda, cyangwa se hashobora kuzashyirwa ibindi bintu bitandukanye.

Abanyeshuri biga gukora amashanyarazi n'indi myuga itandukanye, bari mu ishuri bari kwiga. Bafite imashini imbere yabo bigaragara ko bari kwiga kuyikora ndetse no kuyikoresha. Bafite n'amakayi bigaragara ko bashobora kuba bari kwandika ibyo bize bishyashya, bari kurebana bungurana ibitekerezo, banareba imikorere y'iyo mashini.

Umunyeshuri uri muri laboratwari arimo arapima ari gukoresha akuma kazwi nka pepete, yambaye uturinete bigaragara ko ari umuporofesiyoneri ari kubikora neza cyane. Ari gukurura sampo agashyira mugatesititube cyangwa se agatubu kugira ngo abashe gupima ibiri muri iyo sampo yafashe.

salo nziza isukirwamo imisatsi, irimo abakiriya bari gusukwa imisatsi. Abandi bari gufurwa mu mutwe binagaragara ko ari salo nini irimo abakozi benshi, ndetse n'abakiriya ni benshi. Baratonze hari kuvaho umwe hajyaho undi.

Abanyeshuri bari mu ishuri barimo kwiga，bose bafite amakayi，bigaragara ko bari muri gurupe barimo barungurana ibitekerezo， buri wese ari kugenda yandika ibyo bavuze，kandi bose bambaye impuzankano， bigaragara ko biga ahantu hamwe.

Umuhinzi mworozi wahinze imbuto z'ibirayi muri girini hawuzi. Biragaragara ko yazihinze neza ziteye neza. Bigaragara ko zishobora kuzera neza. Arimo gupima ngo arebe uburyo mo imbere bimeze, arebe niba hageramo urumuri.

Umwubatsi arimo kubaka yambaye itaburiya y'ubururu ya Gishari integiretedi politekinike, afite inivo imufasha kubaka, ifite ibara ry'umuhondo, yambaye ikasike y'umuhondo imurinda ko yagira ibimugwa mu mutwe arimo kubaka kuri fondasiyo.